Ibiti biteye uruhande rw'umuhanda, uwo muhanda ukaba uri kugaragaramo imodoka ndetse n'amamoto, hanyuma iruhande rw'uwo muhanda n'ibyo biti, hakaba hari igipangu kirimo amazu, harimo inzu ifite irangi ry'umweru.

Umukobwa wambaye ikanzu, ufite igikapu ku rutugu rwe, akaba yambaye n'amadarubindi, yafashwe na polisi, ari kwambikwa amapingu.

Abamotari babiri bahetse abagenzi, hagati yabo hari umuyonzi nawe uhetse umugenzi ,bari kugenda muri kaburimbo. Kuri iyo kaburimbo kandi ku ruhande rwayo, hari ibiti biyikikije.

Imodoka eshatu, ebyiri z'umweru n'imwe y'umukara, iyo y'umukara ikaba iri hagati yazo, ku ruhande rwazo hari ibiti, imbere y'ibyo biti hakaba hari inyubako ya etaje irimo ibara ry'ubururu.

Umukozi wa emutiyene, yicaye munsi y'umutaka, aricaye ategereje abakiriya, inyuma ye hari imodoka ebyiri, izo modoka zikaba ari umweru, kandi hagati y'izo modoka, hakaba harimo akayira gatoya.